Ipombo aho uyu muntu ari gutera umuti ingemwe, ibi rero bigatuma ingemwe z'imbuto zikura neza.

Rero ni ubucuruzi bw'sukari ndetse n'ubunyobwa, nk'uko mubizi, isukari idufasha mu bijyanye no kongera ingufu, ndetse no kuba twakwirinda indwara.

Umushumba ashoreye inka aho agiye kujyana mu bushyo aho zirira ubwatsi, ibi rero bikaba byatuma iterambere ry'igihugu ryiyongera, abantu bakabona amata.

Bari kubyuhira kandi urabona ko birimo birakura neza ibi rero bishobora kuba byatuma imikurire y'urubuto.

Ibigori bimaze guheka ndetse no guterera bitegereje kuma, bakabisarura. Ibigori bidufasha mu mirire, ndetse no kubona ifu y'igikoma ndetse n'iy'akawunga.

Ni ukwegeka ibigorigori ahantu kugira ngo bitazanyagirwa, byanyagirwa bikaba byatuma bidashingirira kandi ibi bidufasha mu gushingirira ibishyimbo.

Agahanda k'abanyamaguru , aho abanyamaguru batandukanye baca bagiye mu bikorwa bitandukanye . Ibi kandi bidufasha mu iterambere nk'uko mubibona muri kubona n'amashuri.

Ibigorigori byumye. Aho abantu baba barasaruye ibigori bikuma bikavamo ifumbire, ifumbire ikaba yafumbira ubutaka aho bumwe baba bagiye guhinga.

Imyumbati idufa, imyumbati idufasha mu bijyanye n'imirire myiza ariko ahanini bavuga ko ari ibiryo bya kinyarwanda bikunze kwibandwa cyangwa se bikunze guhinga mu misozi ndetse no mu cyaro.

Ibigori bigeze aho bitangiye guterera ndetse no guheka, kandi bishobora kuba byavamo ubwatsi bw'inka cyane, kandi babikuramo n'ubwatsi bw'amatungo.

Abo ni abahinzi borozi aho bari kuhira ibijyanye n'ibihingwa by'ibirayi. Ubona ko bafitanye ubumwe bari gukorera hamwe.

Abahinzi barahinga bari guhinga ibijyanye ni n'ubuhinzi ,aho batera imbuto ndetse n'ibindi byinshi, urabonako bari mu misozi.

Aya ni amatunda, amatunda rero adufasha mu bijyanye no kuba umuntu yayarya, nk'imbuto zifasha umuntu gukura neza, kurinda indwara, n'ibindi byinshi.

Ibigori by'amahundo ushobora kuba wabikoramo ifu y'igikoma, ukaba wabeteshamo gahunga ,na ndetse kandi rero ushobora kuba amahundo wayateka ukwayo bikaba byavamo ibiryo by'amatungo, ndetse ukaba wayateka nk'amahundo akavamo ibiryo bisanzwe abantu bashobora kurya.

Ibi ni ibirayi. Ibirayi bidufasha iyo tubiriye, bigarura imbaraga. Ndetse kandi, ibirayi bidufasha mu kugira imbaraga.

Abantu hano barimo barakora ubukangurambaga bw'umuganda ndetse yewe baganira ku bijyanye n'uko bazamura ireme ry'ubuhinzi.

Ubuhinzi bw'ibirayi aho umuntu aba ari kuhira ibirayi, ibirayi rero barabirya ni bimwe bitera imbaraga.

Ibi ni ibihingwa bizwi nk'ibigori aho ubona abantu bari kubyuhira bagenda bareba imikurire yabyo aho ubona ko bagenda bareba imikurire ndetse bashyiraho n'ifumbire

Aba ni abahinzi bari gusarura icyayi urabonako bashyize hamwe bari gukorera hamwe bishimye, kandi icyayi bashobora kuba bakigurisha mu masupamaketi ibyo bikaba byazana amafaranga.

Ibidodoki bidufasha nka zimwe mu mboga zigira uruhare mu bijyanye n'imikurire y'bana.

Inkwavu impamvu umuntu ashobora kuba yazirya, nanone zikaba zatuma umuntu agira imibereho myiza, kandi zikaba zazamura bijyanye no kuba umuntu atagira ikibazo mu mirire.

Iyi bayita soya. Soya rero idufasha nko mu gikoma, ndetse ukaba wanayirya, ariko ahanini bakunze kuyikoresha mu gikoma.

Ibishyimbo; ibishyimbo bidufasha mu mirire, no kongera imbaraga mu mubiri, na none kandi ibishyimbo ni bimwe mu bintu bituma abantu bagira ingufu.

Inka za kinyarwanda zikurura umuco, zituma kandi abakerarugendo baza kuzireba. Ibyo kandi bigatuma habaho kwiyongera kw'amafaranga ku gihugu.

Ziriya ni imyanya; inyanya rero zikoreshwa mu gukora amasosi, bikaba byazamura amaraso ndetse bikaba byatuma ibiryo biryoha, kandi nanone ibiryo twabigurisha bikaba byadufasha hamwee mu kuzamura amafaranga y'iterambere ry'urugo.

Ni bushyo bw'inka buduha amata. Aha ni aho abarinzi baziragirira ,inka rero zikaba ziduha ifumbire; ifumbire tubatwashyira mu myaka; imyaka ikaba yadufasha nk'imwe mu bituma ibihingwa bizamuka.

Aha ni muri covid, aho abantu bitabiriye gukingira, ibi bikaba byatuma birinda iyi ndwara, bambara n'udupfukamunwa.

Umwana ari kunywa amata. Ibi bimufasha mu gukura neza ndetse no mu kugira ubuzima bwiza, kandi urabona ko yishimye. Iyi mubona impande ni inka nziza ikamwa amata y'imbyeyi.

Ingurube zidufasha mu bworozi aho turya inyama z'ingurube ndetse zikaba zakororoka tukazigurisha tukaba twabona amafaranga ndetse kandi zikaba zadufasha mu iterambere rya buri rugo.

Ingurube iri mu kiraro, aho bari kuyikorera amasuku. Iyi ngurube ni imwe mu zigira inyama nziza, kandi zikunze kororwa mu majyaruguru.

Iki ni igishuhe, ibi bikunze kuba mu gishanga ariko na none ibi babyita bakunze hari ababyita za nyirabaraza abandi bakabyita igishuhe, gusa bikunze kwibasira inkoko ariko akamaro kabyo bashobora kuba babirya bigira inyama nziza.

Ikinyoni cy'inyamanza iki rero ni kimwe Imana yaremye. Ibi bikunze kwibanda mu mashamba y'ibirunga, iki kandi gituma habaho ikigaragaza nk' ubwiza butatse u Rwanda.